Aha ni imbere y'isoko, isoko riri muri Etage. Haparitse imodoka nyinshi zitandukanye ndetse hari n'abajenti ba MTN, batanga serivise za MTN, urugero: nko kubikuza amafaranga, kuyabitsa, guswapinga simukadi, ndetse n'izindi serivisi baha abaje babagana.

Koperative y'abantu bishyize hamwe bakora ububaji babaza intebe, ameza, utubati, rero mu Rwanda iyo abantu bishyize hamwe bagakora koperative, babasha kugana banki, ibigo by'imari bikabaguriza maze bakabasha kwiteza imbere.

Isoko bacururizamo ibiribwa n'ibikoresho by'isuku, nk'amabase, imyeyo, imyambaro, ibikapu, ndetse n'ibindi bikenerwa n'abaturage batabifite, umuturage ugira icyo ashaka aza kukiguriramo hano mu isoko.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, ubona ko harimo abamotari batwara moto, ndetse n'abatwara ibindi binyabiziga nk'imodoka, amagare, ndetse n'ibindi binyabiziga. Rero umuhanda ni ingenzi mu buzima bwa muntu kuko udufasha gutwara ibintu n'abantu tubigeza aho dushaka.